Ubu serivise zegerejwe abaturage, abantu turabona amazi meza hafi yacu bityo bikadufasha gukora imirimo yacu bitatugoye, amazi meza ni ingenzi kuko aturinda indwara, adufasha mu mirimo yo mu rugo no mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umwana akenera kwitabwaho kuva akivuka kugeza byibuze agize imyaka ibiri, bityo bikamurinda indwara agakurana ubuzima bwiza, umwana uri hasi y'imyaka ibiri yitabwaho n'abaganga bagakurikirana ubuzima bwe kugeza akuze.

Mu buzima bwa muntu dukenera byinshi bitandukanye kugira ubuzima burusheho kumera neza. Muri ibyo navuga nko kwita ku buzima bwo mu mutwe. Ni ngombwa cyane kujya kwa muganga wumva utameze neza, no kugisha inama, aho biri ngombwa.

Ni ingenzi cyane kwita ku buzima bwacu, kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza. Muri ibyo navuga nko kugira isuku yo mu kanwa kuko biturinda kugira impumuro mbi, amenyo yanduye ndetse n'uburwayi bwo mu kanwa. Ni ngombwa ko umuntu asukura amenyo buri uko amaze gufata amafunguro.

Ni ingenzi cyane kwita ku buzima bwacu kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza. Muri ibyo navuga nko kugira isuku yo mu kanwa kuko biturinda kugira impumuro mbi mu kanwa, amenyo yanduye ndetse n'uburwayi bwo mu kanwa. Ni ngombwa ko umuntu asukura amenyo buri uko amaze gufata amafunguro.

Mu buzima bwa muntu dukenera byinshi bitandukanye. Muri ibyo navugamo nk'amazi atuma tugira ubuzima bwiza. Uwavuga akamaro kayo ntiyayakarondora. Tuyifashisha duteka, dukoropa, twoza ibyombo. Tuyanywa, ni byiza cyane gukoresha amazi asukuye kubera yuko bifasha mu kwirinda indwara zitandukanye.

Kuva kera ubwenge bwahozeho. Aho abantu benshi bifashishaga imiti ya Kinyarwanda bivura indwara. Muri ibyo twavugamo nk'umutobe w'indimu. Wifashishwaga n'abatari bake, mu kugabanya ibiro ndetse no mu bindi bitandukanye.